Icyapa kinini cyane bamamarizaho kiriho irangi ry'umweru gishushanyijeho umugabo wambaye ikote ry'umukara w'umuzungu, n'ishati y'umweru, cyanditseho amagambo menshi cyane mu ibara ry'ubururu, hari ahanditse yuwa polisi kamuzi wivu eni ajeti, andi hepfo munsi menshi atandukanye.

Icyapa kiriho amagambo menshi cyane atandukanye, hariho n'akagaragaza eyateri n'akandi kagaragaza radiyati, munsi hari amagambo y'umukara ay'umutuku ndetse n'ay'umweru, imibare wakanda, hariho umuntu ushushanyije n'umwana, ahetse umwana wambaye imyenda y'ubururu ndetse bakaba bashushanyije mu kantu k'agatima.

Icyapa kinini cyane bakunda kwamamariza mu muhanda bishushanyijeho imodoka isa nkaho yakoze impanuka kuko imbere yayo hapfuye hangiritse, amagambo ari ku ruhande cyane mu ibara ry'ubururu yanditseho ndetse hepfo hari ahanditse insilanse nk'ubwishingizi hano ku ruhande hari nimero umuntu ashobora guhamagara cyangwa urubuga ashobora kurusangaho.

Icyapa kimwe kinini cyane bakunda kwamamariza kiri ahantu mu muhanda, hariho ifoto y'umuntu wambaye ingofero ndetse y'umutuku iriho n'amagambo asa nkayanditse kuri icyo cyapa hepfo wambaye na linete, ibiganza bye bibiri bikaba bisa n'aho bifashe ku mpande z'icyo gishushanyo cy'umutuku, munsi hakaba handitseho amatariki ndetse n'akantu kandiditseho komu.

Icyapa kimwe kinini bamamarizaho haciyeho abantu babiri umwana uhetse igikapu umupira w'umweru ndetse n'umugabo uhagaze wambaye umupira ugiye gusa shokora mu kabara k'umuhondo kabari iruhande, bahanye ibiganza byose bifunze ibicense hirya hariho amagambo mu ibara ry'ubururu yanditse kipu yuwa fiyuca porotekitedi.

Icyapa bamamarizaho cy'umweru, gishushanyijeho abantu babiri ndetse n'amazina ya bo, imyambaro bambaye iratandukanye abambaye ishati y'ubururu bwijimye n'uwambaye iy'ubukeye, imisatsi y'umuhondo ndetse n'umukara, amagambo y'umutuku, ay'ubururu, ay'umukara ndetse n'ay'umweru, ndetse n'imodoka inyuma yabo.

Umugabo ari uri guseka, ufite ubwanwa wambaye karuvati y'umukara n'utudomo tw'umweru, ishati y'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, ufite akantu bapimisha abarwayi mu ijosi, ufashe mu mufuka, ufite akaboko k'iburyo yararambuye ndetse amagambo ari ruguru yandikishije ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'anditse mu ibara ry'umweru.

Inyubako ni nziza ifite irangi ry'umweru, hejuru hakaba hari etaje imanitseho icyapa cy'ubwishingizi mu kwivuza RSSB, ndetse munsi yaho hakaba handitseho icyicaro gikuru, ndetse ku ruhande rwacyo haba hari ubusitani buteye ibiti birebire, ndetse n'imbere yaho hakaba kandi cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bari guseka bishimye bafite imisatsi miremire, ndetse hakaba harimo n'undi wambaye ikoti ry'umweru, uri gusuhuzanya n'undi muzungu w'umugabo wambaye kositime y'umukara, n'umuntu ku ruhande wambaye agasengeri k'umweru mu imbere n'ikote ry'umukara. Inyuma yaho hakaba hari utubati, hepfo hakaba hariho akarangantego ka radiyanti.

Icyumba kimwe kiriho amagambo atandukanye mu tubara dutandukanye cyane cyane iry'ubururu n'umweru, hejuru hakaba handitseho amagambo mu mukara avuga ngo "ubwishingizi bwo kwiga," akaba ari ikiganza cyambaye ga z'umukara gisa nk'ikiri gikora kuri serire y'ahantu, ku ruhande rw'iyo serire hakaba handitse amagambo y'umweru akaba ari mu kantu k'ubururu.

Telefoni icanye iri kugaragaza isaha hejuri ko ari saa kumi nebyiri na makumyabiri n'ibiri, hirya hakaba hagaragara ko simukadi ziri ku mirongo, ikaba iri gukoresha interineti, hepfo hakaba handitseho amagambo y'ubururu ndetse n'ikindi kintu cy'ubururu cy'igitaburo, cyanditsemo amagambo y'umweru agaragaza ko umuntu ari nko gushaka viza kuri telefoni, hirya hari amagambo ari bukande n'imibare kugira ngo abone uko yishyura, hepfo kandi hari akazogera ko kuri onurayini.

Telefoni yinjiyemo muri apuricasiyo imwe, hepfo hari akantu k’akaziga gashushanyijeho umutwe w’umuntu, kagaragaza ko ari contakiti. Hirya hariho akandi karimo akabara k’umuhondo, ko kakaba gasa ubururu. Hirya kandi hariho akazogera munsi hariho akantu k’ubururu munsi, harimo amafaranga ndetse y’uRwanda. Hepfo gato hariho agafureshi kagaragaza amajyaruguru, kegerana n’utundi twerekana aka ko iburyo n’akagibu

Telefone imwe iri mu ibara ry'ubururu hejuru akaba ari ry'icyatsi n'utugambo twinshi cyane igaragaza utu mesage twohererejwe, amasimukadi umuriro ugezemo ndetse n'igihe bikorewe. Munsi hariho amagambo y'umukara atandukanye kandi hepfo hari akandi kantu k'umukara kariho utuntu dutatu.

Abakobwa babiri bari mu iduka rimwe ricuruza imyenda b'inzobe ndetse umwa akaba asutse ibisuko birimo amabara ya move n'irya pinki, ufite agakapu mu ntoki, uri imbere y'undi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, hirya hari utubati tumanitsemo imyenda n'uduporotomanto turiho udutambaro two mu mutwe.

Urwego rufite ibara rya shokora n'umweru ruhagaze ahantu hano mu cyumba kimwe, rumanitseho ibisogisi binini, n'utundi dupope dufite amabara atandukanye, dufite umuhondo hejuru ku mutwe n'icyatsi, ubururu, umukara, udufite umweru ndetse n'irindi rya orange.

Akabati kamanitseho imyenda y'amashati hari ibipensi ku maboko, hariho amabara atandukanye, uhereye ku ruhande rw'ibumoso hari ishati ya ruje borudo, kugaruka umuhondo iya pinki y'umutuku iya oranje ndetse n'indi shati irimo amahora avangavanze.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, dukunze kwita ubucagori harimo umu mama wambaye akantu ko mu mutwe ikoti rya piki, imbere ye hahagaze undi mukobwa nawe wambaye agapira karimo utuntu dutandukanye tw'utubara, umu mama afite bike ndetse imbere hari agapapuro ari kwandikaho, hirya hari udufuka twa kawunga, ikaziye ndetse n'amabasi, hejuru amasafuriya n'utundi dutambaro, umunzani uteretse, ifarine n'ibuye.

Abazungu babiri bahagararanye bafite imisatsi y'umukara miremire afite akamashini mu ntoki ndetse n'uwambaye umupira w'ubururu n'agasengero k'icyatsi afite telefone ndetse ku ruhande hari agaporutemante kamanitseho amashati bigaragara nk'aho ari mu iduka, ku ruhande hariho ingofero ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo y'umuhondo.

umumama wambaye ikanzu y'igitenge irimo utubara tw'umukara uri ahantu irange ry'umutuku hasi, hamanitse utubati tw'umweru ndetse turiho amaporotomato, amanitseho imyenda y'ibitenge bigiye bitandukanye, bigiye bisumbanye, ari ibiri hejuru, ibiri hasi, ku gikuta gisize irange ry'umweru kandi uwo mumama arishimye, ari guseka.

Abagabo babiri batandukanye umwirabura ndetse n'umuzungu bari kureba muri mashini ibari imbere .Imwirabura yatunzemo agatoki, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye bihamanitse byanditseho n'amagambo y'umweru hari cy'umutuku , ubururu ,icyatsi n'ibindi byinshi umwirabura rero akaba yambaye ishati y'ubururu, umuzungu akaba yambaye iyu mweru na kositimu y'umukara.

Iduka ricuruza imyenda ririmo abantu b'abazungu babiri b'abagabo, hakaba harimo umwe ufite imyenda mu ntoki harimo iy'amabara y'ubururu n'umukara, orange kandi hakaba harimo amashati y'umweru ndetse n'ikoti, ku ruhande rwe hirya hari uwambaye iy'umukara ishati y'umweru, urukweto rwa shokora n'kimaneke kiri aho cyambitswe....

Imodoka y'umukara ifite n'amatara y'umutuku ihagaze muri parikingi irimo n'izindi modoka z'umweru, hirya hakaba hari inzu ya etaje nziza ifite irange ry'ubururu n'umweru, hakaba hari n'ibiti iruhande rwayo by'ubusitani ndetse n'ahantu hari inkingi.

Imodoka ifite ibara bya ruje borudi icanye amatara hirya puraka hakaba hari akapa karimo amagambo y'umukara ruguru hari utundi tuntu tubiri karimoto karimo amagambo y'umweru n'ak'ubururu ndetse nyuma hakaba hari ibiti birebire n'ibigufi n'indabo ziri ku gipangu.

Imodoka imwe iparitse ahantu muri parikingi ifite irange ry'umukara, iriho n'akantu gahanagura amazi mu igihe imvura iri kugwa ndetes hakaba hariho n'aka marike kayo, munsi ahari kujya purake hakaba handitseho amagambo y'umukara n'icyapa cy'umweru, imbere yayo hari urukuta ruhatangiriye rufite utugaraje tw'umukara, imbere kandi hakaba hari ibiti bihateye.

Ufite irangi ry'umweru iruhande rwayo hari abagabo babiri uyifasha kuba mu ishati ruje borudo, n'agakapu k'umutuku mu ntoki n'ipantaro y'umweru, ndetse n'undi uri ku ruhande wambaye inkweto z'umweru n'ipantaro ya kaki ndetse n'umupira w'umweru ufite icyapa cya bisi mu intoki.

Imodoka imwe ifite irange ry'umweru ndetse n'umukara imbere hakaba hari indi imeze nk'uko nguko no kuruhande rwayo, inyuma hari akantu k'akamarike kayo ndetse hakaba n'akantu gahanagura amazi mu gihe k'imvura minsi y'itara buri tara hagiye handitseho utugambo tw'umukara ndetse no hirya ibumoso n'iburyo.

Nini cyane ifite kotineri inyuma yayo ifite irangi ry'umweru, ihagaze ahantu mu mapave arimo ibyatsi, abagabo batatu bayihagaze imbere bambaye imyenda itandukanye, harimo n'umuzungu wambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, bafite n'udushakoshi mu ntoki tw'umutuku turiho icyapa cyanditseho amagambo atatu abefeje.

Ifite irangi ry'umuhondo iri kwaho n'amatara, iriho icyapa hejuru cyanditseho akagera motozi, munsi haparitse imodoka ebyiri hari ifite irangi ry'umweru, n'ifite irangi ry'umukara icanye amatara, imbere yaho hahagaze abagabo babiri, harimo uwambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, n'undi wambaye ishati irimo utubara twicyatsi, ipantaro ya kaki, bafite icyapa cy'urufunguzo mu ntoki cyanditseho amagambo y'umutuku, n'ay'umukara.

Icyumba kimwe kiri ahantu bakirira abantu hejuru handitseho amagambo y'umukara y'icyapa akantu gato kandi hakaba hari akamarikeri kanditseho toyota no ku ruhande, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati uteruye umwana wambaye na rineti mbere, kandi hari ahantu hari ibirahure hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru n'utwapa tumuri inyuma n'utubati tw'umutuku.

Imodoka y'umukara, ku matara hakaba hasi umutuku n'akantu k'ubururu kari aho urufunguzo rwinjiza, iri ahantu ku makaro y'umweru, imbere hakaba hariho urugi rufite utundi twutwuma turimo hagati dutambitse n'uduhagaze no hejuru hariho utundi tw'umukara.

Imodoka ebyiri, harimo ifite irangi ry'umukara n'indi ifite irangi ry'umweru, iparitse ahantu mu mapave yamezemo ibyatsi, hari abagabo bagera kuri batatu n'umudamu umwe, bagaragara ko batatu ari abazungu n'uwo mumama bafite icyapa cy'urufunguzo mu ntoki zabo babiri muri bo, harimo n'umwirabura ndetse hejuru kuri iyo nzu iruhande rwabo, hakaba handitseho amagambo ari kuri icyo cyapa cy'urufunguzo avuga ngo akagera motozi.

Abagabo batatu babiri mu mashati y'ubururu n'indi ya move, umukobwa uhagaze muri bo kuhande ufite igishushanyo kimeze nk'urufunguzo wamba agapira k'umutuku n'ikoti ry'umweru, inyuma yabo haparitse imodoka y'umukara n'inzu nziza cyane icanyeho amatara imanitseho n'icyapa hejuru.

Imodoka imwe nziza cyane mwirange ryumweru idafite purake ifite akamarike hejuru hakaba harimo agapapuro kumweru mukirahure inyuma kandi hariho amakontineri atandukanye hari nandi ariho akamoto gacanyemo udutara twumutuku.

Inzu ifite amapave munsi yayo yaparitsemo imodoka yanditseho fuso, iruhande rwayo hariho abagabo batatu bahagaze, abandi basa nkaho ari abantu b'abazungu n'umwirabura umwe wambaye rinete, bakaba bafite icyapa kimeze nk'urufunguzo cyanditseho abiji kigaragaza ko ari akagera, babiri muri bo kandi bakaba bafite udukapu tw'umutuku mu ntoki zabo.

Ahantu hari amapave amwe asa nkari mu ibyatsi haparitse imodoka hari ibikamyo hirya n'umunara muremure ,hano hari inzu imanitseho icyapa cyanditseho amagambo avuga akagera motozi ama modoka y'umukara ari munsi, abagabo babiri bahagaze bambaye amashati ajya gusa ubururu n'amapantaro ,inkweto z'umukara afite igishushanyo cy'urufunguzo mu ntoki cyanditseho andi magambo y'umutuku nay'umukara.

Imodoka ya kwasiteri ifite irange ry'umweru, amapine y'umukara ndetse n'ibirahure, ihagaze umuhanda w'itaka, impande zayo hombi hari imodoka naho zihahagaze, ibiti ndetse n'insinga ziri ku mapoto y'amashanyarazi.

Imodoka ziparitse zigera ku munani zose zifite amabara y'umweru n'umukara, hari icanye amatara y'umutuku hirya hakaba hari etage ifite ibirahuri by'ubururu ndetse n'umunara ufite ibara ry'umuhondo, hirya hari umusozi uteyeho ishyamba n'ibindi biti biri aho hafi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'igikamyo gifite ibara ry'ubururu gisa nkikikorera imizigo bakunda kwita rukururana bafite icyapa kimeze nk'icy'urufunguzo mu ntoki zabo cyanditseho amagambo ndetse umwe akaba yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro ya shokora undi akabayambaye iy'ikoboyi n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri uw'umuzungu n'umwirabura, umuzungu akaba yambaye ishati ya karokaro y' amabara y'umweru n'umukara, n'isaha, akaba afite akantu k'umweru mu ntoki, uw'umwirabura nanone akaba yambaye itaburiya irimo umubara ndetse n'umutuku yanditseho toyota afite insinga ze mu ntoki.

Imodoka nziza cyane y'umukara, iparitse ahantu ku isima, ndetse aho hantu hakaba hasakaje n'amabati, ifite akamarike, ikaba nta purake ifite, hirya cyane hari urukuta n'ahandi hantu hapavomye, n'indabo z'umuhondo, amapoto ku muhanda ariho insinga z'amashanyarazi n'ibindi biti bihateye.

Imodoka ebyiri z'umukara zihagaze mu gipangu kirimo amapave, gikikijwe na giriyaje z'umweru, inyuma hakaba hari ihema ryandikishishijwe amagambo y'umukara rikaba risa umweru, handitseho a na ba na ga, inyuma hakaba hari ipoto rifite insinga z'amashanyarazi anyura hejuru y'icyo gipangu, ndetse hakaba hari n'ibiti hirya.

Ibiganza by'abantu babiri bitandukanye, igifite amafaranga y'amadorari ya amerika cyambaye akantu k'umutuku ku kuboko, ndetse n'undi ufite amafaranga y'amarundi ibihumbi icumi bari kugurana kugira ngo umwe afate ay'undi n'undi ahereze ay'undi hejuru y'akabati ka shokora.

Inote ishushanyijeho umumama uhetse umwana ufite agakoni mu ntoki, wambaye imyenda irimo umukara n'umweru ndetse n'icyo amuhetsemo kikaba gisa uku, hirya hariho ikiziga cy'umweru gishushanyijemo ijana hariho n'akandi kantu kameze nk'akararabo ku ruhande, imisozi iri hirya cyane n'amashyamba, hejuru hakaba handitseho amafaranga.

Inoti imwe yiganjemo ibara ry'icyatsi cyane harimo ibyatsi ndetse hahagazemo n'inka ari zifite amahembe n'izitayafite hejuru hashushanyijeho uko ayo mafaranga angana ko ari igihumbi hirya haruzwa n'akantu k'ubururu.

Inote y'amafaranga ibihumbi bibiri yanditseho banki nkuru y'u Rwanda umunara ndetse na ateni, sinye z'abayobozi ba banke, nomero y'inote, agaseke ku ruhande ndetse n'amagambo yanditseho inote yemewe n'amategeko.

Ibiganza by'umuntu biri gufata amafaranga ari kuva mu kamashini kayabara ndetse n'umubare wayo hejuru wiyanditse mu madolari, hakaba hari n'utundi tuntu umuntu akanda twa nimero rimwe kugera ku icyenda, hejuru hakaba hateretseho n'izindi noti z'amafaranga atandukanye.

Amaboko y'umuntu wambaye ishati ifite ibara risa nka beje, yambaye n'isaha y'umukara, ibiganza bye bikaba bifite amafaranga menshi y'inote z'amashiringi yo muri Kenya, ku ruhande rwe rwo hirya hakaba hari akantu gafite ibara ry'ubururu, ndetse n'imbere hakaba hari akantu gafite ibara ry'umukara.

Abakobwa babiri bambaye imyenda isa, imipira y'ubururu ndetse n'amakote y'umukara, imbere yabo hakaba hateretse buri wese mashine ya laputopu, inyuma yabo ndetse hari icyapa cyandikishijeho amagambo y'ubururu n'ay'umuhondo, ay'uburyru akaba avuga ngo " Banki ovu Kigali", umuhondo akaba avuga ngo " Purayiveti bankingi senta".

Ahantu hamwe hari umweru hahagazeho umuntu wambaye inkweto z'umukara akaboko ke akaba yagashyize ahantu ku meza hasa nkaho ari kuri resepusiyo kuko hari na mashini ndetse hakaba harimo n'ikirahure hagati gitandukanya abakiriya n'umukozi, imbere kandi kuri icyo kirahure harerekana aho abamotari bahagaze ahantu imbere y'umutaka bahaparitse, uwo muntu akaba yambaye ishati' y'umutuku n'umweru n'isaha.

abagabo babiri basa neza cyane bicaye ku ntebe z'umukara nko mu biro imbere yabo harimashini ya laptop bari bari gukoresha hari nufite urupapuro mu ntoki isaha y'umuhondo n'ikoti ry'umukara n'akantu k'umweru ishati nziza yu'ubururu na causteme ndetse inyuma hirya hari undi wambaye ishati y'umweru imbere ye hari imashini Iprentinga.

Ifitemo amabara atandukanye cyane cyane ay'umutuku yanditseho amagambo y' umweru, avuga ngo banki nkuru y'u Rwanda munsi hakaba harimo ingagi iri ahantu mubihuru hirya akaba hari ahantu handitse ibihumbi bitanu na beneri(BNR).

Inoti ifite amabara menshi atandukanye, ashushanyije ijana n'inyamaswa eshanu za zebra, munsi hakaba harimo umumama uhetse umwana ndetse akaba yambaye imyenda y'umukara n'umweru, afite inkoni mu ntoki, imbere ye hakaba hari imisozi ndetse n'amashyamba.

Botike imwe icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo intebe ebyiri iz'ubururu n'umweru ndetse n'amabara yiganje muri botike kuko n'amakaro yabo hasa umweru ndetse n'ibyapa byerekana ko hari amata inyange biriho ibara ry'ubururu, ku ruhande hari utubati turimo ibyo kunywa bitandukanye by'amaji hari firigo y'umutuku ifite n'akabara k'umweru.

Inzu isize irangi ry'ubururu irimo amakaro y'umweru, iteretsemo icyuma gicuruza amata cyanditseho na miIiki inyange, ndetse hakaba hari n'injerekani y'umweru bari kuvomeramo, hari abakiriya babiri bahagaze aho barimo n'umwana ndetse n'uri kubakira wambaye ipantaro y'umukara n'agapira ka pinki kariho akantu k'ubururu, hakaba iruhande rwe na firigo n'akabati kamanitsemo ibicuruzwa bitandukanye.

Umugabo umwe uhagaze imbere y'iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, utubati turimo amabiswi, yaba gricoze, mariya, amaji ari munsi, za novida, za pome, ndetse iz'inyange, ku ruhande kandi rwa ruguru hariho amayahurute, ku kintu kimeze nk'igipato, imbere hari umuntu ufite akabido k'umweru, n'akamverope ka kaki mu ntoki.

Imigati icumi imwe muriyo itanu ikaba ihagaze indi ikaba iryamye kumeza uduce tubiri dusa nkutwashunyweho agato nakanini , agatambaro kumweru karimo amabara atandukanye irya orange, umweru, umuhondo ndetse n'umutuku bitambitse.

Akabati kamwe ka shokora, inyuma hariho irange ry'umweru gateretsemo amacupa icumi y'amazi ya niri (Nil) byaho ateretse hariho akantu kanditseho miriki (amata, milk) n'ama enverope abiri, imwe ihagaze ndende n'indi izinze kagufiya.

Akabogisi kumweru kamwe karimo igipapuro kirimo ibintu tw'udusinakisi twiza, ndetse dusa umuhondo dukunze kwita isambusa cyangwa se ibiraha, mu rurimi rw'ikinyarwanda, hakaba harimo utwagiye dushiriraho ndetse hari n'utwahiye neza uko bitandu.

Gateretseho indabyo irimo keke n'akandi ka bogisi (ka box) karimo seriviyete, icyuma cy'amata cyanditseho nyanza miriki ( milk) ndetse n'aka bogisi (box) kari hejuru intebe ebyiri ebyiri ziteye imbere y'ameza ni icyapa cy'iriho utubido tw'inyange ndetse na yahurute ,injerekani ziri mu tubati n'utwatsi tubiri duteretse hejuru yako.

Ibiganza bibiri bifashe ku gakombe kamwe gafite ibara rya pinki, gasa nk'aho ari akayawurute uri guha umuntu utamiye ufite agasatsi kamwe kamanutse ku ruhande n'icya gatatu kiriho gifite inzara zisizeho akaverine i k'umweru n'ak'ubururu.

Ahantu hasi ubururu hari ikiganza cy'umuntu ufashe telefone mu ntoki, harimo ishusho y'umweru ndetse handitsemo amagambo y'umukara no mu magambo y'umweru. n'utundi tw'umutuku duto, munsi hara handitse amagambo y'umuhondo hirya hakaba hari akantu kari muhondo karimo ubururu ndetse karekana agafushe k'amajyepfo.

Telefone irimo message yohererejwe ndetse hari akantu kerekana gusubira inyuma. Amagambo yanditse emuti eni mobayiro mani kagaraharamo message yohererejwe ndetse hirya hakaba hari akantu berekanwa kogomba gusacga n'izindi ndetse. Munsi harimo akantu k'umuhondo hariho ifoto y'umuntu.

Terefone ifite ibara ry'icyatsi mo imbere harimo amagambo y'umweru atandukanye, harimo n'agafoto k'umugabo, munsi hakaba harimo n'utundi dufoto tugenda twerekana dusobanura amagambo, kamwe karimo esi igaragaza amadorari, hirya hakaba hari kandi ka esi, harimo agafureshe kamanuye n'akazamuye munsi kandi hakaba hariho akameze nka kamera, n'akameze nka kuteri ndetse n'akariho umuntu.

Ikiganza cy’umuntu gifashe telefoni mu ntoki, harimo amabara menshi atandukanye: umukara, umuhondo, umweru, ndetse n’amagambo yandikishije ibara ry’ubururu. Hari akandi akadomo ku ruhande kanditseho amagambo avuga ngo "Pay Suppliers". Hepfo hari utundi tuntu tubiri, kamwe kameze nk’akatelefoni y’umukara kashushanyijeho "Calling", n’akandi kari mu ibara rya pink, kajyanye n’akandi kari mu ibara ry’ubururu. Hari kandi udufure tubiri, kamwe kazamuwe n’akandi kari hepfo.

Ahantu handitseho amagambo menshi y'umukara, hejuru hagaragaza ko ayi endemu banke, nkuko wakohereza munsi hari umubare wa rimwe munini, na telefoni y'igishushanyo, ibara ry'icyatsi n'umweru harimo akantu k'agashushanyo k'umuntu, hepfo harimo n'utundi tuntu twerekana diteyili zitandukanye.

Inyubako imwe ya etaje munsi hakaba harimo ahantu hanze y'ibirahuri hejuru hamanitse icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru aravuga ngo peyi, peyi, hepfo hariho n'utundi, hepfo gato hari abagabo babiri bahagaze harimo uwambaye ipantaro y'ubururu n'uwambaye iy'umweru, ishati y'ububururu n'uwambaye ishati yu'mweru imbere kandi hakaba harimo n'abandi bantu.

Ibiganza bibiri by'umuntu ufite telefone mu ntoki irimo iranngi ry'umweru hejuru ari ry'icyatsi, hano hino hari'ahandi magambo y'umukara yanditse muri ako kabara, hari andi hejuru avuga ngo gorobo mani wiki, hirya kandi hariho uko wakwishyura hagati harimo akarongo k'umweru hariho banki.

Ifunguye shyira kode muri apulikasiyo, hejuru hariho akabara k’umutuku kanditsemo amagambo y'umweru ndetse n'agafeshi kerekana gusubira inyuma. Munsi hariho akantu k'umweru gashushanyijemo ifoto y'umuntu. Hepfo kandi hariho amagambo mu ibara ry'ubururu ari naho basacingira hari akantu basacingisha. Hepfo hari ibihugu bitandukanye n'amazina yabyo ku ruhande hari amafaranga bigenda bikoresha.

Telefone cyangwa se mashini birimo imibare itatu ndetse n'akanyenyeri n'urwego ukanda kugira ngo winjire muri serivisi ziboneka hasi mu ibara ry'umweru zandikishije amagambo y'umukara kugira ngo uzinjiremo ugomba gukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'agatanu urwego ugakurikiza amabwiriza ari hepfo.

Akabara k'ubururu ka akaziga k'umuhondo harimo ikiganza cy'umuntu ufite telefone mu ntoki, hakaba ruguru hariho akaziga karimo Emutiyene, hepfo hari andi magambo avuga ngo yelo Joseph, utundi tuntu munsi twinshi twandikishijeho amagambo y'umukara hepfo hari akandi gatelefoni karimo kolingi y'umuhondo, ku ruhande harimo aka pinki kuri terefone ya matushe.

telefone imwe isa nkaho yagiye muri aplication ,ndetse hagaragara ko bari gukoresha interneti hirya wi fi, n'umuriro urimo agera kuri mirongo irindwi n'umunani i,saha biri gukorerwa akantu kari munsi k'umweru gashushanyijeho akantu kameze nk'umuntu ,munsi harimoi ibara ry'umutuku ririmo amagambo atandukanye ,n'akandi kameze nk'agatangaro hepfo hariho igiciro cy'amafaranga.

Urupapuro rumwe rw'umweru rwanditseho amagambo menshi y'umukara hirya kuru ruhande rw'ibumoso hariho akarangagantego ku rwanda gakunze kuba karimo agaseke, izuba hejuru, ingabo ku ruhande, hirya kandi handitseho amagambo abisobanura mu magambo arambuye, ku ruhande rwo hirya kuburyo hari ahandi, hari akarangantego ka rwanda reveni otoriti mu magambo arambuye ndetse hepfo hari ahantu umuntu ashobora gusinyaho uruziga.

ibyumweru byanditseho amagambo menshi hariho n'akarangantego k'u rwanda n'akandi kagaragaza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda; rwanda reveni otoriti bisa nkaho birimo mashini kuko y'epfo hari ahantu basacingira n'ahandi hirya hariho utuntu tugaragaza ko ari mashini raputipu n'ahandi mbere harimo uruziga rw'umukara naho abantu bashobora gusinya hari akarongo gatambitse.

Urupapuru rumwe rw'umweru ruriho akarangantego k'u Rwanda, ku ruhande rw'ibumoso hejuru habanza n'amagambo abisobanura ku ruhande n'andi y'umukara ari hagati nakandi karangantego ka RRA ( ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro m' u Rwanda). Hepfo, Harimo ibintu byinshi bigizwe n'imibare n'amafaranga. hepfo kandi Hari aho umuntu asinya.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo menshi atandukanye n'agakashi kamwe k'umutuku, hariho akarangantego kerekana ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda hakaba handitseho n'amagambo atatu ara ara eyi. Hirya kandi mu magambo arambuye biriho no munsi haciho uturongo dutatu tw'amabara atandukanye munsi kandi abandiditseho ko ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Urupapuro rw'umweru ruriho akarangantego k'u Rwanda gakikijweho n'ingabo ku ruhande ndetse n'agaseke, ishaka n'ibindi bikagize, ku ruhande hari amagambo y'umukara, iburyo na none hari akapa kerekana Rwanda reveni otoriti ikigo k'imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda cya Repubulika ndetse hakaba hari n'ikigaragaza rwanda reveni otoriti ikigo cy'imisoro n'amahoro munsi gato hari ishusho y'uruziga igaragaza ahajya imyirondoro na kashe.

Urupapuro rumwe rw'umweru rwa resi rwerekana inyemezabwishyu kandi hariho akaranfantego k'u Rwanda karimo gaseke, ishaka, ingabo zikikije ndetse hiriho akandi karangantego karekare k'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda n'amagambo munsi yerekana imibare y'inyishyu ndetse kaba hari n'agakode umuntu ashobora gusikana kajya muri sisiteme.

Akapa kamwe k'umukara kariho kariho amagambo menshi atandukanye hejuru hakaba hariho akadarapo ku Rwanda ni karita yaho nyuma cyane hariho akantu kicyuma gashushanyijeho uturangantego tw'amafaranga agiye atandukanye akoreshwa mu bihugu hakaba hariho utwamadorari, amayero akaba ari nabyo byanditse muri ako kantu k'umukara buri gihugu n'amafaranga agenda akoreshwa nuko bakivunja.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'isaha mbere hakaba hari agate gafite ibara ry'icyatsi n'ubururu, afite amafaranga mu ntoki menshi atandukanye harimo afite ibara ry'ubururu ndetse n'fite ibara rya piki n'icyatsi. Ayo mafaranga akaba ari kuyabara rimwe ku rindi.

Umukobwa w'ubururu wambaye ijire y'umukara ishati yumweru n'akantu k'uburu mu ntoki afite mu kiganza cy'iburyo amoko ane y'inoti zitandukanye nyinshi, mu cy'ibumoso akaba afitemo ibiceri bitatu bibiri bya rimwe ndetse na kimwe cya atanu.

Zifunze na fimbo n'izidafunze ziteretse ku meza; ahari agacupa kameze nk'aka sanitayiza, n'ibiganza bibiri bifashe ku noti z'amadorari y'Amerika, ndetse na kalikireta iri ku ruhande.

Amafaranga y'inote amafite amabara atandukanye, ari ku meza n'umugabo wicaye hirya wambaye rinete uri kureba uri kuyabara, ibiganza by'umuntu uri kuyabara bifite amwe afite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'andi ari ku meza afite ibara ry'ubururu ndetse hari n'andi afite ibara ry'umutuku.

Inoti eshatu z'amafaranga, hariho amabara menshi atandukanye, hariho pinki, shokora, umuhondo, ubururu ndetse n'ahandi hashushanyijeho icumi mu ibara ry'icyatsi, hakaba handitseho utugambo tw'umukara ku ruhande hano, hirya hakaba hariho amafaranga aho akoresherezwa ndetse n'uko yitwa, akaba ari amayero.

Umugabo umwe wambaye rakosite y'ubururu ku ijosi hariho akabara ka oranje no ku mufuka, uhagaze imbere y'icyapa cyanditseho ibihugu byinshi biriho amadapa yabo, amafaranga bikoresha ndetse n'uko bivunjwa inaha mu Rwanda, hejuru kandi ku mazu hariho ibindi byapa byamamaza.

Inoti zitandukanye ziri mu mabara y'ubururu y'icyatsi ndetse n'iya pinki hagiye hashushanyijeho ibintu bitandukanye, ndetse n'umubare w'ayo mafaranga atandukanye arimo senkisa, igihumbi, magana abiri n'ijana, hakaba hari hashushanyijeho ingagi, hariho abantu bafite isuka, bambaye akabutura k'umweru.

Iyi foto ire iri kugaragaraho intoki z'umuntu ufite amafaranga y'ubwoko bubiri butandukanye mu ntoki, amwe n'amadorari y'amerika ndetse andi namafaranga yo muri nigeriya inoti y'igihumbi ndetse n'izindi z'ijana z'amerika.

Ibiganza bibiri by'umuntu wambaye umwenda w'umukara ndetse n'ibikomo by'umukara akaba afite n'agatatuwaje kariho amagambo abiri ndetse yambaye n'impeta ku kiganza k'ibumoso. Afashe amafaranga mu ntoki afite ibara ry'ubururu ashushanyjeho umugabo akaba yanditseho n'ijana.

Ibiganza by'umuntu wambaye ishati y'umweru ukuboko kumwe kugaragara, ufite inote z'amafaranga mu ntoki hari izifite amabara y'umutuku yiganjemo hari n'izindi zifite amabara y'icyatsi n'umweru, hirya hari izifunze na fimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse mu kiganza k'iburyo harimo nkeya zidafunze na fimbo.

Akapa k'umuhondo gafite amagambo hejuru yayo handitse nashino banke ofu Rwanda, ruguru hariho akapa kerekana banke y'u Rwanda nkuru ariyo beneri, munsi kandi yako kapa hariho ibindi bitanduannye n'amadarapo yabyo n'amanoti bikoresha ndetse n'amabanke yabyo ku ruhande.

Iri kugaragaza ibiganza by'umuntu uri kubara amafaranga yo muri Pakisitani ndetse imbere ye hari n'andi asoje kubara yaho y'ibihumbi bitanu, gusa ku ruhande hari n'andi madorari y'amanyamerika ijana ahari nayo ateganya kubara cyangwa yasoje kubara.

Icyapa kimwe cy'umweru cyanditseho amagambo y'umutuku menshi, ay'umukara n'ay'ubururu bwijimye, hirya hakaba hari akantu kerekana ko handitseho eyi efu, munsi harimo ikiganza cy'umuntu gifashe amafaranga menshi mu ntoki y'ubwoko butandukanye. Hari ay'amadorali, hari ay'amayero ndetse n'andi atandukanye.

Inyubako nziza ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hakaba hari igiti kinini ndetse mu nguni hakaba harimo n'ikigega cy'amazi cy'umweru, muri ubwo busitani kandi burimo igiti hakaba hateyemo n'icyapa cyanditseho ko bavunja amafaranga, hariho ikintu kirimo amafaranga y'amadorari ashushanyijeho esi ndetse hejuru hakaba handitseho manigaramu mu magambo y'umukara.

Umugabo wambaye inkweto z'umuhondo ipantaro y'umukara n'umupira wa beje uri imbere y'akazu kanditseho amagambo n'ibyapa byerekana serivisi zihatangirwa urugero nka ekwiti, wesitani uniyoni, emutiyene, beka yacu, ajenti eyateli, urwego banke, ekobanke, rege, wasake, n'ibindi.

Urugi rumwe ruriho ibyuma bitandukanye by'umutuku ndetse ni by'umukara ,ibitambitse n'ibihagaze hakaba hari akaryango gafunguye karimo ikirahure , hejuru bamanitseho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi cyane mu mabara y'umweru harivuga tisiyayi ndetse hirya akaba handitseho foregisi (folex) bigaragaza ko ari nkaho bavunjira ikabanditseho na piviti (pvt) na rimitedi (limited).

inyubako imwe igaragaramo hari etaje gukoreshaje uruhare n'indi miryango hepfo hakaba hari icyapa bamamarizaho cyandikishaho amagambo y'umweru agaragaza ko bavunjira amafaranga ku muryango kandi hakaba hariho andi mafoto atandukanye hariho amafaranga ndetse n'ibihugu n'ibirangantego bigenda bikoreshwa haba amadolari y' amayero ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu imwe imanitseho icyapa hejuru cy'ubururu cyanditseho amagambogambo harimo n'ibara ry'umweru munsi ifite urugi rw'umuhondo ndetse n'amagiriyaje ku madirishya yayo, kuri icyo cyapa hakaba handitseho amagambo avuga ngo univaso foregisi biro hepfo kandi hakaba hari aho wabisanga nimero wahamagara cyangwa se imeri.

Inzu igeretse rimwe hejuru hari imiryango ibiri munsi hari arerekana ko hari ubucuruzi hagati mu muryango ahahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ifashe amaboko inyama ndetse n'ikoti ry'umukara hejuru kuri iyo nzu hamanitseho ibyapa byinshi byanditseho amagambo hari aba ari mu mabara y'umweru ndetse'umutuku'umukara agaragaza ibikorwa bikorerwaho.

Isize irangi ry'umweru imbere hakaba harimo irya oranje handitseho amagambo atandukanye ndetse n'amafoto ahamanitse haba hicayemo umuntu wambaye umupira w'umukara imbere ye hakaba hateretse mashini inyuma k'urukuta hakaba hari utugiriyaje dufasge iyo nzu n'inkingi zayo dufite ibara ry'umukara.

Inyubako imwe nziza irimo amakaro y'umweru usa nk'aho winjirira muri risepusiyo (reception) hari akazu gacanyemo amatara kicayemo abantu bagera kuri batatu ,buri wese imbere ye ufite raputopu (raptop ) handitseho amagambo y'ubururu hejuru na y'umweru hasi avuga kimwe ndetse ku ruhande hahagaze umugabo wambaye iby'umukara imbere ye hateretse igikapu no hirya hakaba hari umukobwa wambaye.

Inkingi imwe isize irangi ry'umweru isa nk'ifashe igisenge cy'inzu ndetse ku ruhande hariho urugi rw'umweru rufitemo n'utugiriyaje n'ibirahure, hejuru hakaba bamanitseho icyapa cyanditseho amagambo y'ubururu agaragaza ko bari gutanga ikaze murimbiri imwe ivunja amafaranga.

Akabati keza gasize verine, kajya gusa umuhondo, kometse ku gikuta gifite irangi ry'umweru, gateretseho utuvaze tw'umweru turi mu tuntu tw'umukara tw'udufuniko, karimo indabyo zitandukanye, harimo indende, ingufi ndetse n'izifite amabara atandukanye y'icyatsi.

Icyumba kimwe cy'inyubako kiririmo amakara y'umweru, n'irangira risa uko nguko, hirya harimo agabati mu nguni ndetse n'amadirishya y'ibirahure, aciyemo uturango tw'umukara intebe nziza cyane zri aho zigera kuri eshatu, harimo izirimo imyanya itatu ndetse n'izindi imwe imwe zifite amabara ajya gusa umukara.

Akabati gafite mpande eshatu ku buryo ndetse n' ebyiri ibumoso, gateretse ivaze zirimo ururabo rw'icyatsi n'indi ya oranje, icupa ritarimo ikintu, umutako ndetse n'ibindi wometse ku rukuta rufite irangi rijya gusa nka pinki, ko kakaba gasa shokora n'umuhondo.

Intebe enye, ebyiri ebyiri zifite amabara asa ya oranje n'izindi zisa umweru, n'izirimo imisego itandukanye, imbere hari udusutabure dutatu dufite amabara asa nk'ay'imeza iri hagati muri izo ntebe, ndetse tumwe muri two turasumbana.

Akabati gakozwe mu mbaho nziza cyane kandi gasize verine, kakaba karimo udutako dutandukanye hari n'akantu gateretseho hejuru hirya hari igikuta gisize irangi ry'umweru hasi harimo n'amakaro n'intebe iteretse aho ngaho k'uruhande.

Ameza asize verine ateretseho utuvaze tubiri dutoya turimo indabyo z'amabara atandukanye, akikijwe n'intebe esheshatu z'imbaho kandi nayo niyo ndetse ku ruhande hari ibindi bikoresho bikozwe mu mbaho byinshi, hirya hakaba hari akamoto gaparitse hanze.

Akabati gasize verine ya shokora n'intebe esheshatu zikikije ameza, hariho amasahani ndetse n'ibirahure birimo icyo kunywa, amasikariye ariho irangi ry'umuhondo ndetse n'amagiriyaje airho umukara ibiti biri ku mpande zayo.

Intebe esheshatu ziri mu mbaho ndetse zitatu zifite utudizayini inyuma hirya hari n'izindi zifite udutandukanye natwo ziriho n'imisego y'ubururu, hagati muri zo hakaba harimo ameza hejuru hari ikirahure bisa nkaho ari ahantu ku makaro y'umweru, inyuma yaho hari inkingi y'umutuku.

Iduka rimwe rigurisha ibikoresho byo mu nzu, hagaragaraho intebe nziza cyane z'amadive, yari zikoze muri simirikwire, ndetse n'izindi ikoze mu bitambaro bya medi ini Rwanda, matora zirangaho z'amabara atandukanye, ndetse n'itiyo y'amazi isohorora cyangwa umwuka ahantu, intebe za parasitike ziri mu muryango n'utubati.

Intebe esheshatu z'umukara, zitetse ku makara y'umweru zikikije ameza y'ibirahuri, ariho ibikombe bibiri by'amatasi, akabati k'umweru karimo ibikapu bitandukanye, ibya shokora n'iby'umukara, igitanda cyiza gishashe neza gifite ibara ry'ubururu n'agateruwari kacyo.

Amahema y'ubururu nay'umweru munsi harimo intebe zirimo imisego itandukanye y'amabara, hirya no hino yaho harimo indabyo zirimo utuvase kandi tw'umukara, ahantu hari pisinine ndetse n'inzu ziri hirya n'ikirere cy'ubururu.

Inyubako ndende cyane ya etaje, iteye irangi ry'umweru, iriho n'utundi tuntu tw'umukara n'umweru dukunze gukoreshwa ku myenda ya medini Rwanda cyangwa se ku kindi kintu kiri mu Rwanda, hirya hari amadarapo menshi ahahagaze harimo n'iry'u Rwanda n'irindi rifite ibara ry'umutuku n'ubururu.

Hoteli imwe irimo abantu bahagazemo abicaye ndetse imbere y'ameza harimo intebe nziza zitandukanye ziri ahantu zikoze uruziga, harimo umugabo wambaye ipantalo y'umukara, ishati y'umweru amatara meza amanitse maremare abaseriveri batandukanye hirya cyane hari geresizi.

Inyubako nziza cyane ya etaje itatseho indabyo impande zose, hari ubusitani, hari amavaze ateretseho imbere yayo y'ibirahure ndetse n'inyingi ziyifashe z'umweru, munsi hari n'ahandi hantu hasakaye abantu banyura, hari intebe zitatse hirya ziteretseho ndetse n'ameza hirya cyane.

Icyumba kimwe kirimo amakaro meza cyane ari mu mabara menshi atandukanye, ameza birahateretse harimo n'iyikirahure ziteretseho impapuro, intebe zitandukanye ku mpande eshatu, harimo iya shakora n'izindi ebyiri z'umukara hanyuma n'imisego rya hari itara hejuru.

Icyumba cyiza kimwe gifite ibara ry'umuhondo hasi kiriho igitanda gishashe neza n'imisego akabati gateretseho itarara rimurika neza, intebe zikikije ameza amwe ariho indabo ndetse n'akandi tabulete kari hirya munsi y'ameza n'agatasita bini baviramo imyanda kuhande.

Igikuta kimwe kiriho urubaho n'utwuma turufashe gisize irangi ry'umweru, munsi hariho amasikariye afite ibara ry'umukara ku mpande hagati ari umweru ndetse n'ibyuma biri kuru ruhande bihatangira, hepfo hariyo ishusho y'uruziga hagati harimo urundi; ku rukuta hariho kizimyamwoto ndetse n'inzugi ebyiri.

Inyubako nziza cyane igaragara nkaho ari hoteri, irimo udukoni tw'umutuku, oranje icyatsi, ndetse hirya hakaba handitseho n'amagambo manini cyane, hari ahantu hari utumeza n'udutebe hejuru hasakaye harimo n'udusego.

Inyubako nini cyane ya etaje, icanyemo amatara haba hejuru no hasi, ibiti biyikikije impande zose, birebire. Hari ubusitani bugufi ndetse n'urukuta ruyitangiriye, hasi kandi har'umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe nutubuloke twumukara n'umweru.

Hoteri nziza cyane icanye amatara. Imbere yayo hari pisine ifite amazi meza y'ubururu, ku ruhande hakaba harimo ibyumba bitandukanye, ndetse n'amatara y'umweru menshi agiye ari ku mpande ndetse n'ibyuma bikikije pisine umuntu anyuraho agiye koga.

Icyumba cyiza cyane kiriho ibintu bitandukanye by'ibikoresho aho televiziyo ndetse na sala manje aho abantu bakunda kurira, icyumba cy'uruganiriro kiriho ameza ateretseho ibirahuri bibiri, akantu gahagaze imbere kariho amacupa ndetse akabati gafite ibara ry'umutuku n'utundi turi kuruhande tw'utumeza, ikintu kimanitse ku ruhande cy'umweru ndetse amarido ya shokora n'ay'umweru.

Inzu ifite irangi ry'umweru n'akabara ka oranje gake, yanditseho n'amagambo y'umutuku avuga ngo cuzo eri limitedi, imbere yaho hakaba hari amakaro abiri y'umukara, ndetse n'andi y'umweru, ahakomeza hakaba harimo utugiriyaje turi kugaragara mu birarahuri bihari.

Inyubako imwe ya etage iriho amadirishya ,mubirahure hamanitseho icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'ubururu avuga ngo muwa( MUA) munsi hakaba hariho ubusobanuro bwayo, aho biherereye ndetse na buranshi( branch ) ndetse munsi hariho numero za telefone umuntu ashobora guhamagara na imeri( email).

Kimwe kirimo amakaro y'umweru hariho utuntu tw'ubururu, intebe ndetse n'ahantu bicayeho imbere hariho akabati aho abantu bakirirwa ndetse na raputopu mashini ziri gukorerwaho n'abakozi, amarangi y'ubururu ari ku gikuta hamanitseho utuntu tw'udutako tw'umutuku.

Imbere yari amakararo y'umweru ndetse ku muryango hari utuntu tw'ubururu twerekana ko ikiduko agiye kurifungura bundi bushya bwo hagati mu muryango ari akantu k'umweru hariho n'ibipirizo bitabatse arire mu amabara yumweru, ubururu, n'umutuku, imbere harimo umuntu wicaye ku ntebe wambaye imyenda y'umukara.

Icyumba kimwe gicanyemo amatara cyiganjemo amabara y'umutuku n'umweru mu marangi, hamanitseho amafoto atandukanye agera kuri ane, hakaba hari n'ahari agaseke, ahantu hari umuntu, inyuma ye hari inka, hari umunyeshuri wambaye yunifomu, ndetse n'ifoto ya perezida Poro Kagame wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvate y'ubururu, munsi hariho ahantu hari imeza n'intebe z'umukara, agakayi gateretseho bike y'ubururu.

Icyumba kimwe kirimo ameza asa shokora ateretseho amamashini na teremunsi imbere hakaba hari inzugi z'ibirahure, ku ruhande kandi hari intebe y'umukara hirya cyane hari icyapa gifite ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo avuga ngo tugeda.

Cyane irimo inkingi z'umweru icanyemo amatara igiye irimo utuntu dutandukanye ukuntu, ahantu harimo intebe eshatu z'ubururu hagati harimo ameza, hari n'ahari iz'umukara, ndetse hari n'ahanda hatera uburabyo bw'icyatsi birebire n'ibirahure.

Icyapa kimwe cy'ubururu gishushanyijeho isaha ndetse n'utugambo twinshi harimo tw'umweru, umuhondo akandi k'icyatsi, ndetse hakaba hashushanyijweho n'intebe, inyuma y'iyo ntebe hakaba hari akantu karimo ururabo ndetse kameze nk'ivazi hakaba hariho akantu k'umutuku kanditseho amagambo avuga ngo wikanti.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo menshi y'icyatsi hariho n'utuntu tw'icyatsi hano icyatsi kerurutse ndetse n'ikijimye tugenda twuzuzanya, munsi hariho n'andi magambo n'akapa kari hepfo cyane kari munsi y'amagambo avuga ngo biyeride.

Urupapuro rumwe rw'imwe ru rwanditseho amagambo menshi atandukanye, hakaba harimo ay'umukara ndetse munsi hariho andi handikishije amagambo y'umutuku, iruguru rero hakaba hari atangira ku ikenda ku icumi kumanura ku inimero mensh,i munsi kandi akaba ari uguhera rimwe kugenda kugera ku numero y'icyenda.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara wambaye amaherena ndetse wisize ibintu by'ubururu ku maso, akaba yambaye ishati irimo ubururu n'umweru, uturongo, umupira umeze gutyo w'ubudodo, ikiganza ke k'iburyo gifashe telefone mu ntoki ikindi kiri gukoramo k'ibumoso, ku ruhande rwe handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ari mu ibara ry'umukara, rugura hariho utubogisi turimo utuntu tw'umweru ndetse na ruguru handi hariho akantu kanditseho amagambo magana atandatu n'urwego.

Umugabo wegamye ku kazi k'icyatsi wambaye ishati yumweru nikositimu ya beje n'ipantaro ya beje, kuruhande rwe hakaba hari umuntu wambaye imyenda y'umukara hirya hakaba hari uwambaye ijipo ya oranje ndetse n'ikoti ry'umweru, imbere hakaba hari uwambaye umupira w'umuhondo n'ikoti ry'umukara bicaye ku ntebe y'umukara mbere ye hari mashini ndetse n'akantu k'icyatsi mu ijosi inyuma ye hakaba hari umusore uhagaze nawe wambaye ikote.

Inyubako imwe ya etaje mu irange rijya gusa nk'irya berije hakaba hariho ibyapa bamamarizaho imbere hariyo n'ibindi by'umuhondo byanditseho wesitani yuniyoni hakaba hari n'akandi hano amagambo yanditseho gosheni hepfo hari icyapa kinini cyayo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo udupesi twu'mweru uri guseka, amaboko ye wayazamuye ufunze ibipfunsi, hirya ye handitseho amagambo mu ibara ry'umukara no mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho bagaragaza ku kigero cy'ijana munsi hakaba hariho n'amafaranga.

Isoko ryubucuruzi rimwe ryiganjemo ubw'imyenda, hahagazemo abamama benshi batandukanye harimo n'abahetse umwana n'uwikoreye imizigo, imitaka iri inyuma yabo mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo n'umutuku, amazu y'ubucuruzi ari hirya, amapoto y'amashanyarazi ariho insinga ndetse n'umunara uri inyuma cyane.

Inyubako ya etage nini cyane irimo imyanya itandukanye n'inkingi ziyifashe, hadi hakaba hamanitseho ibyapa byinshi bamamazaho n'imodoka zahaparitse z'umukara, umweru harimo n'iya polisi, umuntu wambaye agapfukamuwa k'ubururu, abegamiye ku modoka wambaye umupira wa rujeborudo n'uwundi wa pinki, hejuru harimo abantu benshi.

Abantu bicaye harimo n'abahagaze, abana abagabo, ndetse n'abagore, imbere yabo hagiye hari amasafuriya ndetse hariho ibintu bitandukanye, harimo inyanya hari andi ateretse aho ku ruhande, harimo ibintu by'ubururu n'agapaniye ka oranje, umuntu wicaye hirya wambaye ikoti ry'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse na gombo zitanditse aho ku gafuka.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanyemo, moto n'amagare, abanyamaguru bari kwambuka, inzu nziza cyane iri hirya ku mpande ndetse n'izindi nyinshi z'amataji. Hari ibirahure by'amabara atandukanye, aho bamamariza ibyapa bimanitseho amafoto y'insinga z'amashanyarazi n'amatara ku mihanda.

Hagaragara nk'aho ari mu isoko rikikijwe n'amagaraje y'umukara hejuru hasakaje amabati imbere yabo ha akaba haparitse amamodoka afite amarangi atandukanye, n'imbere harimo abantu, imbere yaho hateretse imashini zidodeshwa imyenda. Kandi hakaba hari n'abantu kuhande basa nkahobaje gukoresha.

Mu isoko aho bacuruza ibiribwa bitandukanye nk'imbuto, imyembe, amaronji, indimu, ibinyomoro., imineke ndetse n'icyuma gifasha kizimyamwoto n'imineke imanitse hejuru ndetse n'amawotameloni umumama uhagaze wambaye akenda k'umweru, umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu ndetse n'abandi bicaye bambaye imyenda itandukanye.

Bigaragara ya etaje iriho ibirahuri byinshi iriho n'ibintu bamamarizaho by'ibyapa hari icyapa cy'icyatsi icy'ubururu kandi hariho umukobwa ushushanyije munsi handi yatwikiriye hakaba hari ikindi cyapa ariko cyo cyanditseho amagambo ari umuhondo n'ay'umweru hakaba harimo n'amari.

isoko rimwe ricururizwamo imyambaro hamanitswe inkweto uduporotomanto tumanitseho utwenda dutoya, hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo utidomo tw'umukara n'ipantaro y'umukara n'ingofero ndetse n'umumama umuri inyuma ufita agasakoshi k'umukara wambaye ikanzu y'umutuku n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Umumama wambaye agatambaro k'icyatsi mu mutwe ndetse n'ishati irimo utubara twa oranje, ubururu n'umweru, imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye amaronji, mandarena, indimu, imyumbati ndetse n'ibindi birihejuru mu dufuka ndetse n'insenda.

Umuntu wambaye ijezi ryanditseho amagambo y'umuhondo ndetse nanditse adidasi n'udukoni dutatu tw'ubururu, afite agasakoshi k'umukara mu ntoki, wambaye udukoma tubiri afite telefone ndetse irimo ibara ry'ubururu, hirya hari undi wicaye afite akantu mu ntoki undi akaba yambaye n'ikoboyi y'ubururu.

Akazu kamwe gasize irange ry'umutuku mu mpande zako z'imfuruka hakaba harimo utw'umukara duhagaze hashushanyijeho umumama umwe ufite imisatsi miremire y'umukara uri guseka utundi twapa dutandukanye mu mabara y'umweru, ay'umutuku, amagambo yanditseho ngo eyateli mu nsi yay'umuhondo handitseho mani.

Abagabo bagera ku icyenda bahagaze munsi y'akazi kantseho eyateri batanu muri bo bambaye umupira w'umutuku, bakaba bambaye ingofero z'umutuku hari n'abandi bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru ndetse n'uwambaye ipantaro yubururu nashati yubururu.

Abakobwa bagera kuri batatu bose bambaye imipira y'umuhondo babiri muri bakaba bambaye utuntu tw'icyatsi mu ijosi hirya yabo hakaba hari umuhungu wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Inyuma yaho kandi hari icyapa cya Emutiyeni cyanditseho amagambo menshi imbere kandi yabo bahagaze umukobwa wambaye umupira urimo umweru n'umukara n'ipantaro ya shokora ku mezafashe akaba ashushanyijeho ibishushanyo bitatu bya telefone.

Akazu kamwe k'imbaho gasize verine kajya gusa umuhondo, imbere harimo abantu batatu bicayemo, buri wese imbere ye hari imashini ya laputopu, hakaba hari n'icupa ry'amazi ya Jibu, hejuru kandi hariho ibyapa bitandukanye byerekana serivisi bakoreramo aho, cyane cyane iby'irembo, harimo serivisi za Ekwiti, Beka yacu, Ikofi ndetse n'izindi. Munsi hariho utuntu dufite amabara y'umweru n'umukara.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'akazu ka emutiyeni k'umuhondo, umugabo wambaye ingofero umupira w'icyatsi ufite terefone mu ntoki ipantaro ya shokora, ndetse n'umu mama wambaye umupira w'umuhondo ipantaro y'ubururu, ndetse unasutse.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe terefone mu ntoki iri kwaka iriho imibare munsi, akaba yambaye n'udukomo tubiri harimo na kamwe kariho umusaraba, agashakonshi y'umukara, ijezi yanditseho amagambo mu ibara rya shokora, ipantalo y'ikoboyi y'ubururu ndetse n'intebe imuri irihande n'ibindi birenge bibiri by'umuntu wambaye inkweto z'umukara.

Hifasha ku ibyuma bimanitseho amaporotomante ariho imyenda amapantalo meza cyane y'amakoboyi hariho n'ibiciro byayo, kuko hari utuntu tw ubururu icyarimwe y'umukara ubururu nijya gusa umweru ikijuju ndetse n'amabara atandukanye n'ikindi cyapa cyerekana ko umuntu ashobora kwishyurira kuri momo payi n'umuntu ugifasheho ufite toronovisi mu intoki.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo y'umukara, n'akapa ka emutiyene kayiranga, ndetse munsi hariho n'igishushanyo cy'imodoka y'umukara, hahagazeho umuntu wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere yaho akabari uwambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi n'ishati, ndetse na moto y'umuhondo.

Bambaye imipira yumuhondo ya emutiyeni, akaba ifite akantu gafata amajwi kuri ku ijosi inyuma yaho hari umutaka wa emutiyeni wanditseho amagambo y'umukara, munsi yaho hariho abantu benshi harimo n'abana hari n'uwambaye ijezi irimo ibara ry'umutuku n'ubururu, hari n'akana kafashe akaboko k'iburyo kakazamuye, umumama wambaye umupira wcyatsi n'abandi benshi.

Utuzu tubiri duhagaze ahantu hamwe ak'umutuku kanditseho amagambo y'umweru yerekana kari aka eyateri gafungugwa impande ebyiri karimo n'umugabo ufite terepfone mu ntoki akandi k'umuhondo handitseho amagambo y'umukara n'andi atandukanye hahagazeho abantu babiri inyuma ndetse n'undi urimo imbere.

Amandatuyo ariho ibintu bitandukanye mu cyaha yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse naho wabariza ibyo bintu iya mbere iriho ahantu hamanitse imyenda amapurotamanto ndetse ya kabiri y'umuntu upfukamye gufunga rasi ya gatatu n'umukobwa wambaye ingofero y'umutuku iyakane iri ahantu hananitseho imyenda ndetse ya gatanu n'iduka ricuruza amavuta ndetse n'imiti ya gatandatu irimo umukobwa ufite imisatsi y'umukara.

Ikamyo ifite irange ry'ubururu bwijimye cyane ndetse n'iry'umuhondo, iparitse imbere y'inyubako ebyiri z'amayetaje muri parikingi yaho. Inyuma hakaba hari akararo k'utwuma hirya hakaba hari umumama ufashe umwana akaboko wambaye umwenda y'ubururu inyuma yabo hakaba hari imodoka ihaparitse

Kuko gitangira ari ubururu harimo amagambo yandikishije umweru ndetse munsi hakaba harimo n'ayandikishije umukara, hepfo hakaba hari akantu bahahiramo karimo ibiribwa bitandukanye by'imboga n'imbuto, hakaba harimo agatereyi k'amagi, inyanya, imboga, amaronji, intoryi, imineke, inanasi ,amashu ndetse n'ibindi bitandukanye. Munsi y'aho gato hakaba hari n'akandi karimo imodoka.

Amaguru abiri y'umuntu ahagaze ahantu hejuru inyuma ye hari utugiriyaje tw'umukara ndetse n'ururabyo ruri mu ivaze, ahandi hari akantu k'ubururu kanditsemo amafaranga hiruguru cyane hari ahandi yanditsemo utugambo tw'umweru, wambaye inkweto z'umukara usize aka verine k'umweru munsi hariho andi magambo menshi cyane, n'ahantu wabasanga kuri emeli, kuri twita na fesibuku.

Igipangu gifite ibara ry'umukara n'inkingi zacyo zikaba zirimo umukara ndetse n'uturango tw'umweru tugera kuri dutandatu, hejuru hakaba harho itara ndetse na dizayini iciyeho utuntu hirya mo imbere hakaba harimo inzu ifite amabati y'umutuku ya kadasiteri n'amadirishya bikaba ari uko hasa umweru n'umukara ndetse n'urukuta hirya hakaba nanone hari indi kadasiriteri ifite amabati ya asa ruje borudo.

Inzu nziza cyane ya kadasteri ifite ibirahure bya fime ndetse ifite n'ibaraza ifashwe n'inkingi, hirya hakaba ariho n'indi. Hari amavaze abiri arimo indabyo, itiyo y'amazi, amatara, amapava ari mu mbuga harimo utuntu tumeze nk'inyenyeri, amabara y'umukara n'umutuku.

Umugabo w'umuzungu umwe wambaye ipantaro yumukara inkweto z'umukara ndetse n'ishati y'umweru usa nk'uri guha ikaze umumama umwe urimo kwinjira ahohantu, inyuma yaho ku gikuta hakaba hariho amafoto menshi atandukanye, ku ruhande ha akaba ari ahantu hateguye intebe zitondetse inyuma y'ameza ziyazengurutse ndetse n'izindi ziri ku mpande imbere y'agateretwari.

Inzugi z'umuhondo zisize akaverine ndetse hakaba haciyemo uturongo dutandukanye, rufasheho umugabo wambaye impeta, ishati y'umweru n'ikoti ry'ubururu ndetse n'amarinete, ipantaro y'ubururu, imbere ye kandi hakaba hari serire ifite ibara rijya gusa umuhondo.

Iyi foto iragaragaza intebe z'imisego n'ameza hejuru hariho indabyo hirya gato hari amalido aziritse ku igikuta.

Urugi rumwe rufunguye, rufite ibara rijya gusa n'umweru, rutwinjiza ahantu mu bwiherero, harimo ibara rya shokora ndetse n'amakaro y'umweru, tuwarete, ahantu bogera, aho bakarabira mu maso hari agatiruwari k'umukara, ikirahure kimanitse aho hejuru

inzu imwe ifunguye uruhande rumwe rw'umuryango, hakaba hagaragara aho bacameka ndetse n'aho bacanira amatara, harimo amakaro harimo umweru ndetse n'akandi kabara, ikindi kandi ifite ikirahure cya fime ndetse kiri kugaragaraho igipangu cy'icyatsi imbere yacyo hapavomye, hakaba hari imbere y'umuryango amakaro ari mu ibara ry'umukara n'umweru n'ayo ikaba isize irangi ry'umweru na beji ku rugi.

Imwe nziza cyane amarangi y'umweru hari utuntu twicyatsi akari hejuru n'akari hasi, amaesikariye afite utuntu tuyatangiye hariho imbaho kandi hari utuntu tw'umukara tw'ibyuma duhagaze n'udutambitsemo, ibirahuri biri mu madirishya ibyatsi biri hirya y'inzu, hejuru hari amagambo yandikishije ibara rya oranje, yerekana igiciro cy'iyo nzu nuko ikodeshwa na nimero ziri hasi za telefone.

Igipangu porotaye ifiteho ibara rya buresiyeri ndetse n'utugiriyaje tw'umukara, no mu imbere hakaba hariho iryo range itara, umureko ndetse n'amabati y'umutuku hariho n'udutafari. Inyuma hariho ubusitani buteyemo uduti tukiri duto turi mu tubuye ndetse n'insinga ziri kunyura hafi y'igiti cy'icyatsi.

Icyumba kirimo irangi ry'umweru n'urugi rukinguye ruriho serire, munsi hari amagambo yerekana ko iyo nzu ikodeshwa n'aho iri ndetse nuko ingana, ibyumba birimo n'amafaranga uzijya wishyura ku kwezi, ruguru hakaba handitseho nimero ushobora kubahamagaraho bakakuyobora.

Inzu nziza isize irange ry'umweru hejuru handitseho amagambo y'umukara yerekana aho iri n'ayo igura ndetse ikaba ifite amavaze arimo indabyo imbere yayo, imbere yayo kandi hakaba hapavomye, munsi harimo n'agapangu ko mu gikari k'umukara.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru rya beji, utugiriyaje tw'umukara n'utw'umweru ndetse hasi hakaba hapavomye, hejuru hariho akapa k'umutuku kanditsemo amagambo y'umweru herekana iyo nzu iherereye, amafaranga igurwa ndetse hari n'akantu k'akadarapo k'u Rwanda.

Arimantasiyo imwe irimo utubati twinshi tw'umweru turimo ibicuruzwa bitandukanye biri muri iyo arimantasiyo, hirya hakaba hariho ku gikuta ibintu bimanitse, biriho ibyapa byamamaza ibintu bikorerwa muri arimantasiyo cyangwa ibintu bihabarizwa, abantu babiri bahagazemo hagati y'utwo tubati bafite n'utuntu bari guhahiramo.

Iduka rimwe risa n'icururizwamo imyenda rimanitsemo ibintu byinshi dukunze kwitaba ibimaneke bamanikaho imyenda, biriho imyenda myinshi y'amabara atandukanye, hariho ibyambaye umweru, ubururu, oranje, umuhondo, umutuku ndetse n'indi, ku ruhande rero munsi hariho n'indi myenda izinze iteretse ku kabati, hakaba hari agatebe ka pinki kariho ikote ry'umukara, kari imbere y'ameza, hariho utundi twenda w'abana turi ku meza.

Inzu imwe irimo ibicuruzwa bitandukanye, byinshi biri m' udufuka. Hirya hari akabati k'umutuku, hasi harimo imifuka y'imiceri. Hagati hari undi ndetse ruguru hakaba harimo utuntu turi mu udukarito. umukobwa umwe uri gusunika akantu bahahiramo, wambaye kola (ipantaro) y'umukara n'umupira w 'amabara y' umutuku n'inkweto za pink(iroza). Imbere ye hari icyapa cyerekana ko ari reception ( aho bakirira abakiliya) n'ikindi cy'icyatsi cyanditseho icumi years (imyaka icumi).

Sitasiyo imwe irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abagabo babiri bambaye amashati y'umweru, hari uwambaye umupira w'umukara ndetse iruhande hari umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'agapira k'umweru, ufite telefone mu ntoki, imbere ye hari inanasi ku cyuma cy'ubururu kiriho mashini ari gukoraho, hari ibyapa bimanitse aho, hariho ijambo icumi ndetse n'andi magambo y'umweru ku ruhande, hari n'ibindi biri munsi bifite amabara y'ubururu n'ibifite amabara y'icyatsi.

Abamama babiri bari mu isoko, umwe w'umuzungu kuko afite imisatsi y'umweru akaba afite amaronji abiri mu ntoki, n'undi wambaye ikanzu y'igitenge, ufite na metero mw'ijosi rye uri guseka, Imbere yabo hakaba hari imbuto nyinshi zitandukanye, harimo ama pome, indimu, ibinyomoro, ibinyomoro, amamanderina n'izindi mbuto ziri ku ruhande hano z'amatunda.

Alimatasiyo imwe iriho ibice bitatu bigaragara, hari ibicuruzwa hateretweho n'imashini, ibicuruzwa bitandukanye biri mu mashashi, munsi hari ahasize amarangi y'ubururu aho abantu basohokera, ndetse hari n'ahantu bashyiramo imyanda ka dasitsbini k'umukara, ku ruhande hari ahantu hari kontwari harimo umumana wambaye ishati y'umweru, n'utpenso tw'umukara, imbere hagaze umukiriya, wambaye imyenda y'umweru na silipa z'ubururu.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo menshi y'umukara, ari ahantu ku ntebe bicayeho umuntu wambaye umupira nibara ry'umweru n'irisa beje, kuri urwo rupapuro hakaba hariho amagambo, ikirangantego kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda ari ubwi.

Umugabo umwe wambaye umupira w'umweru uriho akapa kariho amagambo y'umweru na y'umukara ,ufite mikorofone mu ntoki ze, inyuma ye hari icyapa kinini kiriho amagambo yanditseho arasesibi (RSSB) ndetse munsi yako karere kariho akantu k'ubururu kandikishijeho amagambo y'umweru ,itangira handitseho mituweri iriho inyuma yako kandi hari umuntu wambaye agapfukamuwa k'ubururu ,ijiri y'u mutuku iriho akantu k'umweru n'ishati y'umweru.

Umumama n'umugabo bose bambaye udupfukamuwa ariko dufite amabara atandukanye, harimo ak'ubururu ndetse n'ak'umukara, umugabo wambaye rinete, karuvate ndetse ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara, bafashe icyapa kinini cyane mu ntoki, kiriho akarangantego ka Ara esesibi n'amazina y'umuntu ndetse no hasi handitseho na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri.

Abagabo bafite icyapa kinini mu ntoki zabo cy'umweru kiriho amagambo y'umukara, uwambaye ikoti ry'umuhondo, ishati y'umweru ndetse n'ipantalo y'ikoboyi n'inkweto za shokora, undi wambaye ipantalo y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ikoti ry'ubururu, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo ya araesesebi cy'ubwishingizi mu kwivuza,

Abantu bagera kuri cumi na batandatu bicaye mu cyumba kinini kirimo irange ry'umuhondo kimanitse ipaparo hirya no hino biriho amagambo atandukanye, hakaba hariho n'amadirishya ku mpande abiri n'akabati gafite ibara rya shokora, hejuru yayo kandi hakaba hariho amakositara agera kuri atatu na parafo y'umukara n'umweru.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, ndetse hagati hakaba harimo akandi kantu k'ubururu gatambitsemo, kanditsemo amagambo ane avuga ngo ara esi esi bi, hejuru bikaba byanditseho mu magambo asobanuye maremare, ndetse kandi hariho akantu k'izuba karimo hagati.

Supamaketi imwe, irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, bimanitse mu kabati, kagiye karimo utubara tw'umutuku, ahandi hariho utwuma tw'umweru, hano hasi hakaba hariho ahantu hari imifuka y'imiceri, harimo umumama wambaye ikanzu irimo amabara ya shakora n'umukara, ufite akabaniye bahahiramo karimo indi mifuka ya kawunga, ku ruhande hariho utundi tuntu turi mu bipapuro by'umweru, hahagaze n'umugabo wambaye umukara n'umuhondo, ufite fone mu ntoki.

Iduka rimwe rya alimantasiyo ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo umukara n'umweru, akabati gafite ibara ry'umutuku karimo ibirungo byinshi bitandukanye, ari ibijya mu cyayi ibijya mu mboga ndetse n'ibijya mu bindi bintu bitandukanye bitekwa. Hariho rero ikiganza cy'umuntu usize verine ya pinki ndetse n'umutuku hejuru, gifite akantu k'akarongo kameze nk'agacupa mu ntoki.

Arimantasiyo imwe ihagazemo umumama wambaye umupira w'icyatsi n'agapfukamunwa, imbere ye hari umupapa uhagaze, wambaye umupira w'ubururu, ufite akantu k'icyatsi hejuru ku ijosi, ufite ibicuruzwa biri mu ishashi bitandukanye, wambaye agapfukamunwa k'umweru na rinete, hirya ye hari akabati k'umweru karimo ibinyobwa bitandukanye, hejuru hariyo ibikarito n'ibishashi bya padi ndetse n'ibya papegisi, imbere hano hari ubunyobwa buri mu tubogisi n'imigati y'amapaki.

Arimantasiyo imwe irimo ibicuruzwa bitandukanye, ibyinshi birimo amabara y'ubururu, umuhondo, umweru, icyatsi, shokora, umuhondo ndetse n'andi atandukanye, hirya hakaba hariho ahantu hari akarate k'ibirahure karimo ibintu bitandukanye nk'imigati n'umuntu urimo imbere wambaye umweru.

Alimantasiyo imwe irimo utubati twinshi cyane turimo ibicuruzwa bitandukanye tugera kuri dutanu, harimo ibifite amabara y'icyatsi ubururu, umuhondo oranje, ndetse n'ay'umukara harimo ibinyobwa, ibiribwa harimo n'amazi.